Abagabo bambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse n'ingofero z'ubwirinzi, harimo nk'ingofero, amadarubindi, agapfukamunwa, ndetse n'imyambaro ya gisirikare, bari kugenda ku murongo umwe, kandi bambaye inkweto zabugenewe.

Abagabo bambaye impuzankano za gisirikari, igisirikare cy'u Rwanda, bambaye ingofero z'ubwirinzi, ndetse bari gukoma mu mashyi, kandi bafite intwaro bisa n'aho baba bari kurinda umutekano.

Umupolisi ufite imbwa ishumitsemo akagozi, ariko izo mbwa baba barazitoje gusaka ibisasu, ndetse no kubungabunga umutekano w'aho ziba zategetswe kuwurinda.

Umusirikari wambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda. Ahagaze imbere y'inteko y'abaturage, afite indangurura cyangwa se insakazamajwi, ari kubabwira impanuro kandi bamuteze amatwi rwose.

Inzu zisize amarangi y'umweru zihagazeho abapolisi ku ruhande rw'iburyo bambaye impuzankano z'igipolisi cy'u Rwanda kandi bafite imbunda. Imbere yaho hariho ubusitani bw'indabyo bugikura.

Abagabo bambaye imyambaro isa n'aho ari iya kiyobozi, higanjemo iy'umutekano nk'iya giporisi, ndetse n'iya gisirikare biri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, bisa n'aho bateze amatwi mu kiganiro barimo, bisa n'aho hari umuntu ukiyoboye

Umugabo wambaye imyenda yirabura isa n'aho ari impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, inyuma ye hariho imitako igize ibendera ry'gihugu cy'u Rwanda, afite indangurura cyangwa se insakazamajwi, ari gutanga ikiganiro.

Igikorwa cyo kwigishiriza hamwe cyangwa se imbonerahamwe y'ukuntu abantu bazajya bazimya umuriro, mu gihe bahuye n'ibyago by'uko gaze yabatombokana, bifashishije amacupa yo kuzimya umuriro yabugenewe.

Uruvunganzoka cyangwa se urujya n'uruza rw'abantu benshi rwose, bisa naho bari kubyigana bitewe nibintu barangariye cyangwa se ubutabazi bakeneye kuba batanga aho bari kureba inzu iri gushya yafashwe n'inkogi y'umuriro.

Umupolisi wambaye impuzankano z'igipolisi cy'u Rwanda ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'inkweta z'umukara. Iruhande rwe haparitse imodoka, ndetse afite imbwa mu ntoki ziba zaratojwe mu gusaka ibisasu ndetse no kubungabunga umutekano wabo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, kiri mu ibara ry'umukara, gifite ahantu bagifungira ndetse bakanagifungurira, cyitwa kamera, aho yifashishwa mu gucunga umutekano, iri gufata amajwi ndetse n'amashusho, ikayohereza mu cyumba cyabugenewe.

Umugore wambaye imyambaro y'ubururu afite indangururamajwi, ndetse iruhande rwe hicayeho abandi bagabo batatu bisa naho ari gutange ikiganiro, kandi hakaba hari abantu bamuteze amatwi.

Abaturage bagizwe n'abagore ndetse n'abagabo, bahagaze ahantu hamwe abandi basutamye bisa naho barikwifotoza nyuma y'igikorwa bavuyemo gisa naho ari umuhuro cyangwa se inama.

Umugore wambaye ishati y'umutuku afite indangururamajwi, yambaye n'indorerwamo, ari kuvuga ijambo, bisa n'aho ari kubabwira imbwirwaruhame kugira ngo bakurikize cyangwa se bumve ibyo ari kubagezaho.

Umusirikari wambaye impuzankano, y'igihugu cy'u Rwanda, no ku rutugu hariho ibendera ry'u Rwanda, afite insakazamajwi, ari kuvuga ijambo muri aba baturage bamuhagaze iruhande, yemwe n'abicaye bose bamuteze amatwi.

Abantu bambaye amashati y'imyeru harimo n'abambaye ay'ubururu bisa naho ari ikirangantego cya FPR inkotanyi, imbere yaho hateretse amazi ndetse n'umutobe bakaba basa naho bari mu nama, bari gukoma mu mashi.

Umugabo wambaye agapira k'umweruru n'ipantaro y'ikijuju, yambaye n'umukandara yemwe n'isaha, afite indangururamajwi kandi niwe uhagaze wenyine, bisa naho ari gutanga ikiganiro cyangwa se inyunganizi.

Umugabo wambaye ikote ryiza ari mu cyumba cyateraniyemo abantu bagiye batandukanye, bisa naho ari abayobozi. Muri icyo cyumba hejuru hamanitsemo ifoto ya nyakubahwa perezida wa repuburika w'u Rwanda Paul Kagame.

Uburyo bwa gakondo bwo gutwara umurwayi bamujyanye kwa muganga, bifashishije igikoresho gakondo cyitwa ingobyi, haba hariho imijishi abantu bagenda batereye ku rutugu, kugira ngo bamugeze kwa muganga vuba.

Umugore wicaye ku gasambi ahetse umwana, ari mu gikorwa gakondo cyangwa se cya kinyarwanda, cyo kuboha agaseke cyangwa se icyibo, yifashishije utudeyi ndetse n'urushinge kandi agakoresha inshinge.

Uburyo bwiza bwo kugaburira inka amazi yo kunywa aba avanzemo umunyu, aho ziza zikanywera ahantu hitwa mu kibumbiro hubakishije sima ku buryo amazi ngo atacengeramo ngo arodoke.

Ibikoresho gakondo byifashishwa mu mico ya kinyarwanda harimo nko kugemura mu mitako ndetse no mu birori bigiye bitandukanye, harimo nk'ibyibo cyangwa se ibiseke, intara cyangwa se inkoko, ibicuba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bane bikoreye ibikoresho gakondo, birimo ibibindi cyangwag se inkono, bambaye ibitenge bamwe barabyiteye bisa nahoho bagiye kubigurisha cyangwa se bagiye kubishakira isoko.

Ibikoresho bya kera byifashishwaga cyane cyane muri gakondo harimo: nk'igicuma, inkoko cyangwa se intara, uruho cyangwa se urukiza, imiheha byose biteretse ku kirago biba biboshwe mu biti ndetse n'ibyatsi.

Igikorwa rusange kirimo abagabo n'abagore. Iruhande rwabo hariho ihema rinini rikunze kwifashishwa mu kwakiriza abashyitsi. Iruhande rwabo hirya gato hariho imodoka isa naho ariyo ibategereje, kugira ngo ibatware. Bari mu gikorwa rero cyo gukuraho imyanda cyangwa se ibihuru.

Agakoresho ka kera kifashishwaga mu muco gakondo nko gutwerera ndetse kugemurira abantu mu gihe kabaga kaboshywe mu tuntu tugiye dutandukanye nk'inshinge, ndetse n'iyindi mitako igendeye ku mabara umuntu waba abaga yifuza, ahubwo afite umutemeri cyangwa se umufuniko.

Umusaza wambaye ipantaro y' yumukara n'ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru ndetse n'ingofero y'urugara asa nkaho ari mucumba gikorerwamo imitako igiye itandukanye harimo nk'uduseke imisambi n'intebe z'imbaho.

Ibimera birimo ibara risa n'icyatsi bigeze mugihe cyo guterera cyangwa se kurabya indabyo. iIruhande rwaho hariho ibiti binini bigeze mu mugihe cyo gusarurwa kandi biteye mu isambu nin.i

Igikoresho kibajijwe mu giti cyifashishwa mu mirimo itandukanye, cyanecyane iyo mu gikoni cyangwa se ku meza. Kikaba cyitwa indosho mu gihe abantu baba bari gutahura ibiryo cyangwa se bari kwarura, cyangwa se mu gihe bari kubivanga.

Igikoresho gakondo kibajwe mu giti ndetse kikaba kiba gifite ikindi gikoresho ku ruhande cy'igiti na cyo kifashishwa mu gusekura, kikaba cyitwa isekuru aho ikoreshwa mu gusekura isombe imyumbati, ndetse n'ibindi bitandukanye bidasabye kujya mu nganda.

Abakobwa bambaye udusengeri tw'imyeru n'amakanzu y'imyeru ariho ibintu bimeze nk'ibisagi biri gutantamirana, bambaye n'urunigi mu mutwe cyangwa se mu gahanga, bari kubyina kandi bagasusurutsa abariho kubareba muri icyo gitaramo kirimo n'amatarara y'amoko yose.

Abasore bambaye imikenyero yiganjemo imihondo , ndetse n'utubara tw'umukara n'umweru ,bakaba bafite imirishyo, ndetse bakaba bari kuvuza ingoma ziri gutanga amajwi meza ku bantu bazite yombi.

Umugore wambaye agapira k'umukara, yipfutse n'igitambaro cy'igitaka, afite ibikoresho gakondo bikozwe mu mabuye, aribyo urusyo ndetse n'ingasire, byifashishwa mu gusya cyangwa se guhera ifu.

Abagabo babiri bicaye kandi bishimye, imbere yaho hateretse intango cyangwa se ikibindi kirimo inzoga cyangwa se amarwa, ikindi kandi harimo imiheha itandukanye ku buryo buri wese aho yaza, yasoma kandi yizihiwe.

Ifoto iri kugaragaza umugabo kandi ikaba iri mu ishusho ry'umukara, ari kuvuza ihembe cyangwa se ikindi gikoresho cya muzika gitanga amajwi, kugira ngo abantu babyine cyangwa se ngo baririmbe.

Abagabo n' abagore bari mu gikorwa cyo gususurutsa abantu, binyuze mu mbyino ndetse n' indirimbo aho bambaye imikenyero zirimo amabara abagize ibendera ry' u Rwanda harimo umuhondo, ubururu ndetse n' icyatsi.

Umumama cyangwa se umugore uri gukora igikorwa cyo gusya ifu, yifashishije ibikoresho gakondo birimo: urusyo, n'ingasire. Mu yindi nyito, cyangwa se mu yindi mvugo babyita guhera.

Abakobwa bari mu gikorwa cyo gususurutsa abantu, bakaba bambaye imikenyero, ndetse n'ibihora. Bafite ingabo, ndetse n'icumu mu biganza byabo. Abagabo bikuye, abagore bo bambaye udusengeri tw'imikara.

Inzu za kera zabaga zisakajwe ibyatsi, kandi zubatse mu buryo bw'umuzenguruko, zubatse uko ari eshatu, inyuma yaho hariho ibiti, kandi akazuba kari kuva, bisa naho ari mu masaha ya mu gitondo.

Ubusitani buteyemo indabyo zigiye zitandukanye harimo izarabije umweru ndetse harimo n'ibyatsi bisa nkaho ari akajaride ko kwicaramo kugira ngo umuntu yaba ari kuruhuka abe yakwicaramo.

Uwo mugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse yambaye na bote, afite ibikoresho bigiye bitandukanye harimo umuhoro ndetse n'ibyuma byo kubaza amasekuru, yifashishije ibiti ndetse n'ibyo byuma.

Abakobwa bambaye imIkenyero y'imyeru, babiri kuruhande n'abandi babiri kuruhande, ariko hagati yabo harimo uwundi wambaye imikenyerero y'umuhondo, kandi bose bambaye udutambaro mu gahanga, bisa n'aho ari umugeni bambariye.

Umumama wambaye agapira karimo uturongo nk'utwa gisirikari, afite inkoko cyangwa se intara, ari mu gikorwa cyo gugosora ibishyimbo, aho abifata akabisimbiza hejuru, ubundi agahuha imyanda irimo ikagurukanwa n'umuyaga.

Abantu bicaye ahantu, hateruye n'amabuye, harambitseho imbaho, bagera kuri bane, umwe ari kuvuza ingoma, undi ari gucuranga igikoresho gakondo cyitwa inanga, gikozwe mu giti, abandi bari kuririmba bumvise iyo njyana.

Abagabo batatu uturutse ibumoso, hagakurikiraho umugore, hakazamo umugabo wa kane, bafite imirishyo bari kuvuza ingoma. Bambaye amashati y'icyatsi, ndetse bakenyeye imikenyero y'umuhondo n'ubururu. Bari gutanga injyana ku muntu uri kibitegereza, buriya wasanga hariho n'ikipe iri kuririmba.

Mu ngoma za cami zabayeho kubwa kera habagaho igikorwa cyo gutembera k' umwami, aho yabaga yicaye mu ngobyi hanyuma abaja cyangwa se abajakazi be bakagenda bamuhetse mu ngobyi aherekejwe n' ingabo ze.

Abakobwa babiri bambaye amapantaro y'umukara, ndetse iyindi irimo umukara n'umweru ,bafite inkoko cyangwa se intara bari mu gikorwa cyo kugosora ibishyimbo, bifashisha ibikoresho bya gakondo, kugira ngo bakuremo imyanda cyangwa se ibisigazwa.

Umugore n'umugabo bari mu gikorwa cyo gukama, cyangwa se kwenga ibitoki bakoresheje ishinge, cyangwa se ubwatsi bwabugenewe ndetse n'imineke yatazwe, umugore ari gukoresha uruho cyangwa se urukiza, ari gukuramo umutobe akawusuka mu kijerekani.

Igikuta giteye isima cyangwa se karabasasa, cyegetseho igikoresho cya gakondo cyifashishwa mu kwasa inkwi, cyangwa se mu gutema ibiti, kikaba cyitwa ishoka, imbazi, indyabiti, indyankwi ndetse n'ibindi, bitewe n'uko kigira amazina atandukanye.

Umugore wikoreye ibibindi bitatu bigerekeranye kandi yikoreje ingata, yambaye agapira k'ubururu ndetse amanitse akaboko, gusa arirengereye ku buryo adafasheho.

Abagabo bagera kuri bane, bafite ibiti ku rutugu, mu kinyarwanda babyita imijishi, aho biba bifatanye n'ingobyi irimo umurwayi, mu gihe baba bamujyanye kwa muganga.

Kubumba cyangwa se ububumbyi ni umwuga utunze abantu higanjemo abo mu cyaro, aho bafata ibumba bakaribumbamo ibikoresho bitandukanye nk'ibibindi, ibicuba, amavaze, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagabo bambaye udupira tw'imikara bafite imirishyo bari kuvuza ingoma, kugira ababyinnyi cyangwa se abaririmbyi bari kumva iyo njyana babone ibyo babyina, kandi bibashimishe bitewe nuwo umuziki.

Amashusho abiri ari kugaragaza ibipande bigiye bitandukanye ibitewe naho iyi foto bayifatiye, mu ruhande rw'ibumoso bwiwe hariho ifoto iri kugaragaza umusatsi we ukuntu wari usutse, ndetse no mu yindi bayifotoreye mu gice cy'inyuma.

Ibyibo ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwara, cyangwa se kubika, ikindi kandi bikaba bikoreshwa nk'imitako, mu gihe hariho imisango, cyangwa se iyindi migenzo y'ibirori.

Mu muco gakondo harimo kugemura cyangwa se gutwerera, aho bifashishaga ibyibo bikaba bigizwe n'udufuniko cyangwa se udutemeri, natwo tubatoboshwe mu mideyi cyangwa se n'utundi dutako twabugenewe birambitse ku gatambaro k'umutuku, mbere y'uko bitwara ibyabo biteguriwe.

Abagabo, abasore ndetse n'abana bambaye ibihura, kandi bambaye n'iyindi myambaro ya gitore, aho bafite amacumu ndetse n'imikenyero iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku.

Ubwoko bw'inka zikunze kuba zifite amahembe maremare nkizingizi turi kureba ahangaha ziri mw'ibara ry'umukara, kandi bagiye barazambika urunigi mw'ijosi ndetse no mu mahembe zikaba zitwa inyambo.

Agakoresho kifashishwa mu gucomeka umuriro w'amashanyarazi, mu gihe hari ubundi bwoko bw'umugozi utari kubasha kwinjira mu gikoresho gisanzwe kiri ku gikuta. Aka ngaka ni ko bifashisha bakabanza kugacomeka, iki ngiki bakagicomekamo nacyo nyuma.

Agakoresho kifashishwaga mu gufungura ndetse no mu gufunga amaburo aba ari mu bikoresho bitandukanye, mu gihe kaba kari kufungura cyangwa se gufunga, ntabwo umuriro wagufata bitewe nuko kaba gafite ikirindi cya pulastiki.

Agakoresho kifashishwa mu umuriro w'amashanyarazi, karimo ibara ry'umweru, aho umuntu kugira ngo agakoreshe, arakanda rimwe kugira ngo umuriro utambuke, akongera agakanda bwa kabiri umuriro ugahagarara.

Igikoresho cyifashishwa mu muriro w'amashanyarazi, cyane cyane mu kuwutwara cyangwa se mu kuwukwirakwiza mu mazu, ndetse n'ahandi hatandukanye kikaba cyitwa urusinga kiri mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko gifunitse mu ishashi.

Ibikoresho byifashishwa mu mashanyarazi aho babikoresha bari gukupa cyangwa se bari gukupura umuriro, gukupa n'ibara ry'umukara, gukupura n' ibara ry'umutuku kugira ngo umuriro utambuke cyangwa se uhagarare.

Ibyumba by'amashuri byubatse ahantu hateguwe, ndetse hakubabakwa, aho bigizwe n'amaburoke cyangwa se imirongo yagiye yubarukwa, bitewe n'uko abanyeshuri bazajya bariga bari kurebana, bagateganye.

Igorofa rirerire rigeretse gatatu iyo hasi utayibariyemo rikaba rigizwe n'ibirahuri kandi risakaje amategura cyangwa se amabati y'umutuku iruhande rwaho hariho ubusitani bw'imboga n'imbuto.

Inzu isakaje amabati y' umutuku, ifite igipangu cy' umweru kiriho n' amarangi y' ubururu, hariho umusekerite wicaye hanze bisa naho ari inzu cyangwa se ikorerwamo ibintu bitandukanye bya leta kandi bikaba ari rusange.

Amarembo cyangwa se umuryango binjiriramo, iyo bagiye kwinjira muri iki kigo, ku uwo muryango hariho n'ijambo ryandikishije amagambo y'umweru, risa n'aho riri gutanga ikaze ku bantu baje bari kugana kino kigo.

Inzu zigerekeranye zisakaje amabati y'ubururu, imbere yazo ahagana mu marembo, haparitseho imodoka y'umweru kandi hariho ikirundo cy'amatafari ahiye.

Umusore wambaye agapira k'ubururu ,yicaye ku igare . Asa n'aho ari gutekereza cyangwa se hari ibintu ari kwitegereza, yicaye ku igare ry'umutuku rya siporo , rikunze kwifashishwa ahantu hazamuka.

Amarembo y'inzu bisa n'aho ari rusange kandi ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ku mubare uri hejuru. Irakinze ariko ni urusengero aho abantu baturutse impande n'impande baza baje kuramya no guhimbaza Imana yabo.

Inzu yubakishije amabuye yo mu bwoko bw'amakaro, yagiye asigwa irangi ry'umukara. Hagati mu myanya zayo bagasigamo irangi ry'umweru. Kandi bisa n'aho ishakaje amabati ashaje. Iyi nzu buriya ni iya kera rwose.

Abayobozi bagera kuri batandatu bambaye udupfukamunwa, muri bo harimo n'umusirikari wambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda. Bisa n'aho bari kwifotoza bitewe n'igikorwa barimo.

Inzu y'ubucuruzi iri kugaragaza serivisi, zitangirwa muri iyo nzu, zirimo iza mituweli ndetse n'ubwisungane mu kwivuza, imbere yaho hariho umugezi wo gukarabimo intoki, mu muco wo kwimakaza isuku ndetse n'isukura, imbere yaho hari gutambukaho, umugabo ufite ikidomoro, cyangwa se ikijerekani.

Abagore n'abagabo bari mu itsinda ry'abaririmbyi bakaba bahagaze mu rusengero, bambaye imikenyero igiye itandukanye bakaba bafite impapuro bari gusomaho indirimbo, kugira ngo batazibagirwa.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bicaye imbere y'ameza, bisa naho ari mu cyumba cyari icy'ishuri, cyangwa se bakaba bigishirizaho abantu bifashishije ingwa. Bicaye imbere y'ameza aho bari gutanga ibiganiro, ku bantu tutabashije kubona muri aka kanya.

Igikorwa cyo kubaka ibikorwaremezo aho harimo imashini zigiye zikora imirimo itandukanye, harimo nk'ingiyi iri gutsindagira umuhanda kugira ngo hatazika cyangwa se ngo hacike inkangu.

Ibyuma bitwara ndetse biba bifasheho insinga ziba zijyanye umuriro w'amashanyarazi mu gihe wababa ugiye ahantu ha kure, urugero nko mu gihugu cyo hanze cyangwa mu ntara yindi itari yo umuriro uturutsemo.

Ikiraro kinyuze mu kirere gisa naho cubakishejwe ibyuma biri kubonerana, kandi kidakwiye kunyuraho imodoka, ahubwo ni abantu bakwiye kukinyuraho bitewe nuko nta bushobozi gifite bwo kwikorera abantu benshi cyangwa se uburemere bwinshi.

Inzu ikorerwamo serivisi zitandukanye ziganjemo ikoranabuhanga nko gufotora, kudekarara ibyangombwa byo muri serivisi z'irembo, kwempulima impapuro ndetse no kugurisha impapuro cyangwa se amakayi.

Umugabo uri kugenda ku igare asa n'aho ari kwinjira mu kigo rusange, barimo gupakira imodoka isa naho igiye kugemura ibintu mu gace runaka. Icyo kigo kandi inyuma yaho hariho ibiti birebire by'ubwoko bw'inturusu biri munsi y'ikirere gisa neza cyane, kiri mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ikigo rusange kiriho ibikoresho rusange ndetse na serivisi rusange nk'ubukarabiro, kandi hashinzemo igiti kimanitseho idarapo cyangwa se ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, mu myubakire ya kiriziya gatorika yanditseho ko ariyo mu Ruhengeri aho abakirisitu bagiye batandukanye bavuye mu bice bitandukanye baje kuhasengera kugira ngo bateranire hamwe.

Inzu isakaje amabati y’umutuku, imbere yaho hariho ibigega bifata amazi avuye ku bisenge by’izo nzu. Hariho n’inzira abantu banyuramo, isakaje nayo amabati kugira ngo igihe imvura izajye iragwa, bajye barahanyura batari kunyagirwa.

Inzu rusange iriho ikimenyetso cy'umusaraba, hejuru bisa naho ari urusengero cyangwa se ari inzu basengeramo bitewe n'imyemerere zabo cyangwa se imyizerere zaho, iyo nzu yubakishije amakoro asize ibara ry'umukara ndetse mu myanya zabwo hasizemo irangi ry'umweru.

Inzu zisa n'aho ari rusange, bitewe n'uko zirimo amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, inyuma yazo hariho ikirunga, ikirunga kimwe mu birunga bigize icyanya nyaburanga cyo muri pariki y'ibirunga by'u Rwanda, byitwa Sabyinyo, imbere y'izo nzu kandi hahagaze umwana w'umuhungu.

Urusisiro rurimo ibintu bigiye bitandukanye, birimo ibikorwa remezo ndetse n'imiturire y'abantu, harimo nk'amazu, amashanyarazi, ndetse n'ibipironi byo kumanikaho insinga.

Inzu isakaje amabati y'umutuku hejuru hariho umusaraba, kandi yubakishije amabuye ikaba iteye igipande cyangwa se ihomeshejwe isima, hariho igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bambaye amakanzu y'umweru, ndetse bari gutambuka mu nzira berekeza ku muryango wa kiliziya, bisa n'aho ari abantu bo mu muryango wa Kiliziya Gatolika, bagizwe n'abapadiri, abahereza, ndetse n'abafaratiri.

Inyubako cyangwa se igorofa rirerire riri mu mabara y'umweru ndetse na oranje, imbere ya ho hari guca imodoka y'ivatiri ndetse n'iyindi iyiri imbere, bisa n'aho bashyira mu bikorwa ibyo kuyisoza cyangwa se kuyirangiza, kugira ngo batangire kuyikoreramo.

Inyubako ebyiri iy'ibumoso n' iy'iburyo, zisakaje amabati y'ubururu, ndetse zisize amarangi ajya kuba n'umuhondo. Imbere yaho harunzeho ibisigazwa by'ibishyimbo cyangwa se ibishogoshogo.

Inzu cyangwa se amagorofa bisa naho udafite isuku, bose kandi akaba ari amazu rusange urugero ari nk'ikigo cy'amashuri, cyangwa se za kaminuza zikaba zirimo abantu b'abanyeshuri batandukanye.

Abagabo bambaye imyambaro y'akazi, irimo ingofero z'ubwirinzi, amajire asa naho ari impuzankano, ndetse n'inkweto z'ubwirinzi zisa naho bari mu gikorwa cy'ubwubatsi, cyangwa se bakaba bari gutegura umushinga wo kubaka.

Umudamu ufite indangururamajwi kandi akaba ari kuvuga ijambo. Bisa n'aho ababaye. Buriya ari gutanga ikibazo, kugira ngo abayobozi bari kumwumva bakimusubirize, muri iyi ntego y'abaturage.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro yatebeje, ku mukandara we afite indangururamajwi ari kuvuga ijambo risa naho ari mu nama, akaba ariwe ugezweho uri gutanga ikiganiro cye cyangwa se igitekerezo cye.

Ikiganiro kiri hagati y'abantu batatu ,n'umuntu umwe bisa naho hari ibibazo bari kumubaza na we akabasubiza, hanyuma bakandika bisa naho hari urubanza ,cyangwa se irndi kusanyamakuru nk'ikizamini barimo.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, aho batonze umurongo basa n'aho hari serivise rusange bategereje, cyangwa se baka bategereje umuyobozi wabo kugira ngo abahe ibyo bakeneye.

Abantu bicaye ku ntebe, bafite amakaye mu ntoki, bisa n'aho bari mu kimina cyangwa se ikimina cyo kuzigama no kugurizanya, bakaba bicaye mu mucaca, ndetse bakaba barahateguye kugira ngo bajye barateranira.

Inama rusange cyangwa se ikiganiro rusange cyateranyije abayobozi ndetse n'abayoborwa cyangwa se abaturage, aho bari gutanga ibibazo byabo kugira ngo bikemurwe nabo bayobozi batumijeho iyo nama cyangwa se bayiyoboye.

Umugore wambaye igitenge kirimo mumabara y'umukara, ndetse n'igitaka, afite indangururamajwi, iruhande rwe hahagazeho umusaza, bari kuvugira mu ruhame bisa n'aho hari abantu bicaye babateze amatwi.

Inteko y'abaturage irimo abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza, harimo n'abambaye udupfukamunwa, ndetse abandi bafite amakayi, bisa nk'aho bateraniye hamwe, baje kwiga ku bibazo bibugarije ndetse bagafata ingamba zabyo.

Umudamu wambaye imyenda y'abagore, ndetse yipfutse igitambaro cy'ubururu. Inyuma ye hariho abandi baturage bamuteze amatwi, kuko ari kuvugira mu ndangururamajwi. Bisa n'aho ari gutanga igitekerezo cyangwa se ikibazo kugira ngo babone ubumusubiza.

Umugabo cyangwa se umumotari utwaye moto igizwe n'amapine atatu, kandi ikaba yifashishwa mu gutwara imizigo, kandi ikaba iri mu ibara ry'ubururu, handitseho ngo tujyane.

Imodokari ndende ziri mu bwoko bwa bisi ziri mu ibara ryiganjemo ubururu ndetse n'umweru, zisa naho ziparitse ahantu hamwe bitewe n'igikorwa runaka, zishobora kuba zitegereje abagenzi ngo zibatware.

Abana b'abanyeshuri biganjemo ab'igitsinagore cyangwa se abakobwa, bafite ibikapu bisa naho bagiye cyangwa se bavuye ku ishuri, ariko bakabanza batonda umurongo, kugira ngo bakorerwe serivise zinoze.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare irimo amamodoka agiye atandukanye, kandi abantu bakaza kuhategereza ndetse n'imodoka zikaza kuhabategereza, kugira ngo zibererekeze mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, cyane cyane imizigo itaremereye giparitse mu muhanda, kiri mw'ibara ry'ubururu ndetse gifite rasoro z'umutuku.

Ubwoko bw'imodoka ndende zitwara imizigo, iri mu ibara ry'umweru, kandi ifite amapine nk'icumi. Ikaba iparitse ahantu hasa n'umweru, hasi kandi ikaba nta muntu n'umwe urimo, isa naho itwaraga nka za peterori.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa bisi, ndende rwose, bisa n'aho itwara abagenzi rusange, iparitse munsi yigorofa rirerire, naryo ririho ibyapa bigiye bitandukanye, bisa naho ari inzu z'ubucuruzi.

Ubwikorezi bw'ibicuruzwa ndetse n'itwara ry'abantu, aho umukono umwe uri kugendamo imodoka zivuye kure kandi zikoreye amakontineri cg se imizigo ku wundi mukono hari kunyuramo ibinyabiziga byoroheje nk'amagare ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho amagambo y'umukara, hariho Shisha wumva, bisa n'aho cyagenewe gutwara amata ari mu bicuba bisa n'aho'ho bikozwe mu cyuma.

Imodoka zisa neza ziri kugenda mu muhanda, aho zisa naho zanditseho igihugu cya Kenya. Ziri kugenda ari ebyiri zishoranye zo mu bwoko bwa bisi, kandi nta bantu barimo buriya zigiye kubafata.

Aho imodoka ziparika zitegereje abagenzi, ndetse n'abagenzi bakaza kuzitegerereza aho ngaho, hakaba hitwa muri gare, cyangwa se ahantu bakatishiriza amatike, bitewe na sosiyete itwara abagenzi, umuntu aba ashaka.

Imodoka ziparitse ahantu hamwe bitewe n'uko zitegereje abagenzi ziri muri sosiyete, mu masosiyete atwara abantu hano mu rwanda yitwa ritiko igira imodoka zisa n'icyatsi zivanze n'umweru n'ubururu.

Uburyo bwiza kandi bugezweho busa naho bwaje buri gukemura ibibazo bya benshi mu gihe batondaga umurongo bari gucirikanwa, umuntu araza agafata ikarita akayikoza ku cyuma cy'ikoranabuhanga ahubwo gucyo kigakuraho amafaranga aba ari kw'ikakarita kikamusigiraho ayandi asigayeho.

Indege nini cyane, imaze gufungura imiryango, kugira ngo abagenzi binjire, ndetse abandi basohoke, ikaba mu kanya igiye kuba ihagurutse ikazamuka mu kirere. Iyi ndege rero ikaba iparitse ku kibuga cy'indege.

Abagabo bafite ibinyabiziga bigizwe n'amapine abiri. Bambaye kasiki z'ubururu cyangwa se ingofero z'ubwirinzi. Bose bahindukiye basa n'aho hari ikintu barangamiye inyuma yabo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda n'amaguru ndetse n'abandi bakagenda ku magare. Bisa n'aho bari mu mujyi cyangwa se urusisiro bakaba bitwa abanyonzi. Ndetse n'abagenzi bategereje abagenzi ko bagenda.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo twa karokaro, ari kugenda ku igare rihetse umufuka urimo ibintu bisa naho ari ifu, ari kugenda mu muhanda wigitaka kandi ari kuyobora igare rye neza.

Ubwikorezi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo n'imyaka umunyonzi ari kubisunika, ku igare rirerire ndetse n'uwo atwaje ari kumusunika bitewe n'uko bageze ahantu hazamutse.

Abantu bahagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi, bari murujya n'uruza, harimo nabari gutambuka ndetse n'abandi bantu bazanye ibinyabiziga, baratwaramo ibintu baraba baguze muri iyi nzu y'ubucuruzi, bisa naho iyi nzu icuruza ibintu byo mu bwubatsi.

Imodoka zitoze umurongo, ziri mu mabara agiye kuba umuhondo, ziri muri gare cyangwa se ahaparikwa imodoka zitegereje abagenzi, cyangwa se nabo bakaza kuziyategereza.

Umurongo uparitsemo imodoka z'ubwoko bumwe ni zimwe muri sosiyete zitwara abagenzi hano mu Rwanda, imwe yitwa Litiko bitwara abantu mu byerekezo bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bambaye neza bisa naho ari nk'abayobozi cyangwa se abashyitsi bagendereye mu muhango runaka, harimo abafite uruhu rwera ndetse n'abirabura, bisa naho bahagaze ahantu hamwe imbere y'imodoka ariko bategereje ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Igikorwa cyo gutwara abagenzi cyangwa se ingendo rusange, ariko bafite umwihariko wo kubana n'ubumuga, hari abaha serivisi zo kubinjiza bifashishije utugare twabo, kugira ngo binjire mu muryango wabugenewe kwinjirwamo n'abantu bafite ubumuga.

Abakobwa bagera kuri cumi n'umwe bose bambaye udusengeri n'udukabutura by'ubururu bari kwirukanka bisa naho buriwese ari guharanira kugira ngo abe uwa mbere.

Abasore bari mu kibuga bose bicaye bari gukina umukino w'abafite ubumuga. Bambaye imyenda y'ubururu ndetse bari gukinisha intoki ,kandi bose bafite ubumuga ,bisa n'aho uyu mukino wihariye.

Ishusho iri kwerekana umupira wageze aho babarira ko batsinze igitego, bikaba biri mu ibara ry'ubururu, n'uwo mupira ukaba uri mu ibara ry'umweru, usa n'aho wagonze ako gatimba, kari mu tudodo tw'umukara.

Abasore bari kugenda ku magare bari mu gikundi, bisa naho bari gusiganwa kugira ngo barebe ko hari uwasiga undi agatsinda iri rushanwa, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hariho abafana babashigikiye, bitewe n'uwo akunda buri wese.

Imodoka iri mu ibara ry'umuhondo, iri kugenda mu muhanda w'igitaka, ariko iri ku muvuduko wo hejuru, biri kugaragazwa n'uko mu muhanda harimo ivumbi riri gutumuka cyane, kandi iyo modoka ikaba iri kugendera mu kirere, abantu bari kuyireba batangaye cyane.

Abana b'abakobwa bambaye imyenda ya siporo iri mu mabara agiye atandukanye, harimo umutuku, ubururu umukara, ndetse n'icyatsi bari kugenda bazenguruka ikibuga, hirya yaho hariho intebe ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi bisa naho ariho abafana cyangwa se abaje kubashyigikira baba bicaye.

Ahantu nyaburanga hateguye neza kandi hubatse neza, abantu baza kukogeramo kandi bakaharuhukira kuko hariho ubwogero rusange, aho abantu bogamo bari kwishimisha, kandi bakanezererwa.

Umupira umaze guca mu gapaniye cyangwa se mu kantu kabugenewe, gashinzwe kugaragaza ko hari igitego cyinjiye mu mukino w'intoki, bikaba rero bigaragara ko umupira umaze kunyuramo igitego, kimaze kugeramo.

Umusore wikuyemo umupira wo hejuru, yambaye ikabutura cyangwa se ipantaro yo mu bwoko bwa kola, imwegereye, ari kwirukanka ku muvuduko uri hejuru, kandi afite umubiri worohereye kandi wumutse, bisa nk'aho yakoze siporo rwose.

Umukobwa wambaye imyenda za siporo agasengeri n'agakabutura ahandi hose yikuye, kandi afite umubiri usa naho yakoze siporo bitewe n'ukuntu yumutse kandi hariho imitsi yose yabyutse.

Abasore n'abakobwa bambaye imidari isa naho ari iy'amashimwe bitewe n'uko bakoze ibikomeye kugira ngo batsinde amarushanwa bari barimo bakaba rero bamaze gushyikirizwa ibihembo byabo bageze mu gikorwa cyo kwifotoza ifoto y'urwibutso

Umusore wazibukiye bitewe n'umurava cyangwa se ubukana yari afite agiye gukubita agatenesi bisa naho yari muri siporo, kuko yambaye imyambaro zibigaragaza mu gakabutura k'umweru n'agapira k'umukara.

Ikipe cyangwa se itsinda ry'abagore rishinzwe ibintu byo gufana ikipe y'igihugu, bakaba bambaye imyenda iri mu ibendera ry'u Rwanda, bari kwishimira igikorwa kibayeho, bisa n'aho ari insinzi.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'icyatsi n'ingofero y'ubwirinzi, akagira n'agakabutura karimo icyatsi n'umukara. Ari kugenda ku igare, bisa naho ari kwitoza kuzitabira imikino cyangwa se amarushanwa.

Abakobwa bambaye imyenda yo gukorana siporo iri mu mabara y'umukara n'umweru, aho bari mu mukino wifashishwa n'umupira w'intoki, uri mw'ibara ry'umuhondo, hejuru yaho hariho abafana bambaye imyenda y'icyatsi, bicaye mu ntebe z'icyatsi n'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu basa naho bashungeye cyangwa se barangamiye abasore bari kwerekana umukino wo gutwara amagare, bakayasimbukisha udusozi kandi bakazengurutsa impande zabo bantu babateze yombi, kandi bisa naho bishimiye uwo mukino bari kureba.

Abahungu bambaye imyenda isa na orange, handikishijwemo nimero z'umweru, handitsemo ngo gisagara. Bari gukina umukino ukinwa bicaye, kandi ukinwa n'abantu bafite ubumuga.

Umusore wambaye imyenda ya siporo irimo agapira k'umweru n'umukara ndetse n'inkweto zisa n'icyatsi gihiye, afite agatenesi bari gukinisha igikoresho cyabugenewe kandi ari gukinira mu kibuga cyubatswe bitewe n'iyo mikino izakinirwamo nyuma yaho hariho intebe abafana bicaraho.

Igikundi cy'abasore bari kugenda ku magare bisa n'aho bari gusiganwa, hejuru y'aho ku musozi hariho abaturage baturutse impande n'impande baje kubareba, kandi bari kubafana bisa nk'aho babashyigikiye, aba basore rero bakaba baturutse na bo mu bihugu bitandukanye baje kwitabira uwo mukino ukunze kubera hano mu Rwanda.

Abakobwa beza bambaye imyenda ya siporo, igiye yanditseho ijambo Rwanda, kandi handikishijeho nimero y'ubururu, inyuma yaho hariho intebe zagenewe abaje kubashyigikira, cyangwa se abafana, abo bakobwa kandi harimo ufite umupira, bisa naho ari umupira w'intoki bakina.

Umukobwa wambaye imyenda y'umutuku afite igikoresho cyifashishwa mu gukina umukino w'intoki, hejuru ye hariho icyapa cyanditseho bibiri na cumi na gatandatu, ndetse bisa n'aho ariho umukino cyangwa se amarushanwa arimo kuba.

Umukino wahuruje abantu batari bakeya, bicaye mu bihande bine , bose bahanze amaso mu kibuga kiri hagati, kirimo abasore bambaye imyenda ya siporo, bisa n'aho bari kubasusurutsa, mu mukino wo gukinisha intoki, hejuru yaho hariho ingaragazamashusho iri kugaragaza ku bantu batari kubasha kureba hasi.

Abahungu bambaye amakabutura y'ubururu ndetse n'imipira y'ubururu, yandikishijeho amagambo y'umuhondo rimwe hariho ibendera ry'u Rwanda bari gukina umupira w'intoki, umwe ari gushaka kuwambura mugenzi we.

Abakobwa bambaye imyenda y'umuhondo, ndetse n'amakabutura magufi y'umukara, bari gukina umukino w'intoki. Ndetse iruhande rw'aho, hari indi kipe bari gukina nayo y'abakobwa, nayo bambaye imituku, amakabutura y'umukara. Hirya yaho, hariho n'amadarapo cyangwa se intebe ziri kugaragaza ibendera ry'u Rwanda.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku, ndetse nagakabutura k'umukara, afite umupira mu ntoki, bisa naho ari gukina umukino w'intoki. Iruhande rwe hariho undi mugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umuhungu n'umukobwa bari mu gukina umukino w'intoki, umuhungu yambaye agapira k'umukara, nagakabutura bisa naho ari ibya siporo, ikindi kandi umukobwa yambaye agakabutura k'umutuku n'agasengeri k'uburuhu, bisa naho bari gukina uwo mukino w'intoki, kandi ufite ibikoresho byifashishwa muri uwo mukino.

Umukobwa wambaye jire kandi yambaye n'ipantaro, bisa naho hari ibintu ashinzwe mu isiganwa ry'amamodoka, kandi hariho n'abantu baje kureba iryo siganwa.

Umukobwa wirabura yambaye imyenda ya siporo, agakabutura kagufi ya, ndetse n'agasengeri kagufiya, kariri mu ibara ry'icyatsi, na ka gabutura kariri mu ibara ry'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, bisa n'aho hari amarushanwa ari kwitegura.

Amatsinda atatu arimo abasore bagiye batandukanye, bose bari kumanika ikirangantego cy'amarushanwa bari barangije, kandi bisa naho bari kwishimira intsinzi bagezeho.

Umwana w'umukobwa wambaye agakabutura k'icyatsi, karimo uturongo tw'umuhondo, yambaye kandi n'agapira k'ubururu n'inkweto za siporo, ari kwiruka mu ruhande rw'ikibuga, bisa naho ari mu marushanwa yo kwiruka.

Umwana w'umuhungu uri kugenda mu muhanda, yambaye imyenda ya siporo kandi ari kugenda atandandaraje, umukino wo kugenda ku nkweto zifite amapine ,aho baba bafite ubushobozi bwo kunyura no munsi y'imodoka.

Umusore uhagaze mu kibuga cy'umupira ukinishwa intoki, witwa tenesi, aho akoresha igikoresho cyabugenewe, kugira ngo akubite agatenesi ke kagende, kakaba kari mu ibara ry'icyatsi gihiye.

Abakobwa bari gukina umukino w'intoki, aho kuri buri ruhande hariho umuntu uhagaze hejuru, ababereye maso kugira ngo aze kubaca impaka mu gihe baraba bananiwe kumvikana.

Abahungu bishimiye umuntu uri kwifotora, kandi bakaba mu byishimo, bisa n'aho bari gufana ikipe runaka, bari mu byicaro by'abafana, kandi bakurikiye umupira uri kubera mu kibuga cy'umupira

Umukobwa wambaye ikabutura' yumukara, irimo uturongo dutatu tumanuye tw'umweru, n' umupira wumukara urimo akarongo k'umweru, afite umupira mu ntoki bisa naho ari umukino w'intoki cyangwa si w, amaboko.

Abasore bambaye imyenda z'imyeru bisa naho bajyanishije, ndetse n'uwikabutura y'umweru. Bambaye inkweto za siporo bari kwigorora umubiri, bisa naho hari umupira bari kwitegura, cyangwa se irushanwa bari kwitegura gukina mu mwanya urakurikiraho.

Umuhanda w'igitaka unyuramo abantu bagiye batandukanye, cyane cyane ukaba buri hagati y'urusisiro rugeze impande y'ibipangu, byubakishije amatafari ahiye ndetse iruhande rwaho hariho indabyo.

Inzira iba iri mu ruhande rwa kaburimbo, yagenewe kunyuzwamo abagenzi, cyangwa se abantu bari kugenda n'amaguru, kugira ngo bataza kugongana n'imodoka, zikunze kuba cyane cyane ziri ibumoso bw'umuhanda cyangwa se iburyo, zubakishijwe amapave, barayubatse cyangwa se barayometse hasi.

Mu muhanda wa kaburimbo, aho abagenzi ndetse n'ibinyabiziga banyura ndetse harimo uturongo tw'umukara n'umweru, bivuze ko umuntu wese ushaka kwambuka, ariho yambukira kandi nta kinyabiziga cya muhutaza.